Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse impande n'impande, biganjemo abambaye imyenda y'umukara, umweru, baganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye kandi zifitiye igihugu akamaro.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku bitaro, baje kwisuzumisha indwara zitandukanye, aho abaganga ndetse n'abaforomo, babaha serivisi bagendeye ku bimenyetso bagaragaje.

Iriba rinini ririmo amazi meza, umugore ateze ikiganza anywa amazi, ubona ko afite inyota kandi igiye gushira.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, birimo imyitozo ngororamubiri ndetse aho abantu baturutse ibice bitandukanye by'igihugu baza kureba ndetse bagataha bishimye.

Umukobwa wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, urimo kuvoma amazi ndetse wicaye ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Icyumba kinini kirimo abaforomo ndetse n'abaganga, aho abarwayi barwaye indwara zitandukanye baza gufata serivisi ndetse bagahabwa n'imiti ibafasha bageze mu rugo.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, baje guhabwa serivisi z'ubuvuzi, aho basuzumwa ndetse bagahabwa imiti bagendeye ku ndwara babasanganye.

Abagore bafite abana ubona ko bari kwitabwaho mu buryo bwo kubaha ibiryo ndetse bahabwa n'inama ku bijyanye n'imirire y'abana babo.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku ivuriro, baje gushaka serivisi z'ubuvuzi, mu cyumba kinini gitangirwamo ndetse kikanafashirizwamo abarwayi.

Icyumba kinini giteraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, aho bahererwa serivisi nziza z'ubuvuzi ndetse bagahabwa n'imiti, ibafasha bageze mu rugo.

Abagore, abagabo, bahagaze imbere y'icyapa kiganjemo ibara ry'icyatsi, umweru ndetse n'ubururu bishimye.

Icyumba cyateraniyemo abantu baturutse ibice bitandukanye, aho biga ku nsanganyamatsiko zifite byinshi zigisha kandi bifitiye igihugu akamaro.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu nzu nini, aho biga ku bibazo bitandukanye ndetse hakarebwa icyakorwa kugira ngo hakumirwe ingaruka zabyo.

Ikirango kinini cyanditseho Umuryango Mpuzamahanga Ushinzwe Gutanga Ubufasha cyiganjemo ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Icyumba kinini kirimo abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagabo, abagore, abakobwa ndetse n'abasore, barimo kwiga ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, aho biga ku nsanganyamatsiko ndetse bakareba icyabateza imbere kugira ngo hibandwe mu gukumira ibyorezo bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu baje gushaka amazi yo gukoresha mu rugo, bambaye imyenda itandukanye umweru, umukara ndetse n'ingofero, higanjemo abagabo ndetse n'abana.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abaganga ndetse n'abayobozi batandukanye, aho biga ku kibazo kijyanye n'ubuvuzi ndetse n'uburyo bwatezwa imbere.

Umugore uhetse umwana, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'icyatsi, umutuku, umuhondo, ubona ko ari gusukura ibikoresho ndetse abigirira isuku.

Umwana urimo kuvoma amazi ku iriba rya kijyambere, aho abaturage begerejwe amazi ndetse bakabona serivisi hafi kugira ngo babashe kurwanya umwanda ndetse babone amazi meza.

Umuganga urimo gutera urushinge umurwayi, bari mu cyumba kinini cyiganjemo abandi baforomo n'ababyeyi bakeneye ubufasha ku ivuriro.

Umwana wambaye umupira w'umweru ndetse n'ikabutura y'umutuku, ufite amajerekani atatu arimo kuvoma ndetse ubona ko yishimye.

Umugabo wambaye imyenda y'ubururu, uhagaze ku iriba ry'amazi ndetse iruhande rwe hari umwana ufite indobo itukura, bigaragara ko yaje gushaka amazi.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko bafite ibicuruzwa bitandukanye nk'akawunga, umuceri, inyanya ndetse n'ibishyimbo bashaka amafaranga, aho abantu batandukanye batabifite baza kubigura.

Umukecuru wikoreye ijerekani y'umuhondo, ipfundikije umufuniko utukura, ubona ko avuye gushaka amazi yo gukoresha mu rugo.

Ihuriro ry'abantu bambaye imyenda y'umweru, yiganjemo ibara ry'umukara, bicaye kandi bategereje umuntu ubagezaho ijambo yabateguriye.

Abantu baturutse mu bice bitandukanye, bahuriye mu cyumba kinini cy'inama kugira ngo bige ku bibazo bitandukanye ndetse hanafatwe ingamba yo kwirinda ibindi bitaragaragara.

Icyumba kinini cyateraniyemo abarwayi bavuye mu bice impande n'impande, aho baza kwivuza ndetse bagahabwa serivisi nziza kandi inoze agasubira mu rugo yishimye.

Ihuriro ry'urubyiruko rwambaye imyenda y'ubururu yanditsemo ijambo ry'umweru ndetse bafite n'ingofero nziza.

Umubyeyi wishimye uri kumwe n'abana, ubona ko bitegereza imbere kandi bambaye imyenda yiganjemo amabara, umuhondo, umukara, ubururu ndetse n'umutuku.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye hamwe, biga ku nsanganyamatsiko zitandukanye, ndetse hanarebwa ku bibazo bahura nabyo bya buri munsi, n'uburyo babikemura, kugira ngo bagire umutekano ndetse n'iterambere rirambye.

Icyumba kinini gikorerwamo ubuvuzi butandukanye, aho abantu baturutse mu bice impande n'impande baherebwa serivis, maze bagataha bishimye kandi banezerewe.

Icyumba kinini, kirimo ibikoresho bitandukanye, cyahuriyemo abagabo babiri, bafite insanganyamatsiko bigaho kandi ifitiye igihugu akamaro.

Icyumba kinini gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, aho abarwayi bafite ibimenyetso, baza kwa muganga bagahabwa ubufasha, kugira ngo hirindwe cyangwa hakumirwe ubwo burwayi.

Inyubako nini yateraniyemo abantu batandukanye, aho biga ku kibazo kijyanye no kubura imiti mu gihe abarwayi babonetse ari benshi, hafatwa ingamba y'uburyo imiti yaboneka.

Mu bana babiri harimo umukobwa n'umuhungu, bahuriyeba baje kuvoma amazi, iriba rikikijwe n'ibiti byiza kandi n'indabo zitohagiye.

Umubyeyi witeze igitambaro mu mutwe wambaye umupira w'icyatsi n'umweru, uteruye umwana ubona ko yamuzanye kwa muganga ngo umuforomo amufashe.

Abana b'imyaka itanu bari mu mazi barimo baroga ndetse ubona ko bishimye kandi bagaragara nkaho bafite imbeho, mu mazi menshi barimo baroga.

Icyumba kinini giteraniyemo abantu batandukanye; abana, abagabo, abagore, aho baje guhabwa serivisi z'ubuvuzi, kugira ngo bafashwe hagendewe ku bimenyetso bagaragaje.

Inyubako nini yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko, aho biga ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Icyumba kinini giteraniyemo ihuriro ry'abantu bari mu nama, bicaye imbere y'ameza, bafite insanganyamatsiko zitandukanye kugira ngo harebwe icyateza imbere umuryango w'abantu.

Inyubako nini yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagabo, abagore, n'urubyiruko, aho baganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye, ndetse hanarebwa uburyo bakwiteza imbere.

Umugore ukenye igitenge ,wikoreye indobo y'umutuku niyindi y'umuhondo mu ntoki ,uvuye gushaka amazi ,ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Abana bari ku iriba barimo kuvoma amazi, bafite ibikoresho bitandukanye, imbere yabo hari umugore wambaye imyenda y'umweru, ndetse n'inkweto z'umukara.

Icyumba kinini giteraniyemo abagabo, abagore baje kwivuriro guhabwa ubufasha butandukanye, hagendewe ku kibazo buri muntu witabiriye uyu munsi agiye afite.

Ihuriro ry'abana n'abantu bakuru, barimo kuvoma amazi kandi bayajyanye mu bikorwa bitandukanye byo gukora isuku, bambaye inkweto z'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara.

Icyumba kinini cyateranyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, aho biga ku nsanganyamatsiko igira iti twubake u Rwanda twifuza maze tuzabashe kugera ku iterambere ryiza kandi rishimishije.

Umuforomo wambaye umupira w'umweru n'agapfukamunwa ufite imisatsi myinshi, arimo gutera urushinge umusaza w'imyaka mirongo itanu kandi arishimye.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto nziza, urimo kumwenyura ndetse urimo gukaraba.

Icyumba kinini giteraniyemo abaganga ndetse n'abarwayi, baje gusaba ubufasha hagendewe ku kibazo buri muntu agiye afite.

Umugabo wambaye ishati nziza ndetse yiganjemo amabara y'umweru, wambaye n'ipantaro y'umukara, ufite ijerekani mu ntoki, ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Umwana mutoya w'imyaka itanu, uri imbere y'ibase arimo gukaraba, iruhande rwe hari inyubako nini cyane yiganjemo amabara y'umutuku n'umuhondo.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bambaye imyenda yiganjemo umweru, umutuku, icyatsi ndetse bateze ibitambaro mu mutwe.

Umwana w'imyaka itanu, wambaye umwenda utukura, urimo kuvoma amazi ku iriba, ubona ko yishimye kandi anezerewe bigaragara mu maso.

Inyubako nini yateraniyemo abagabo, abagore, abasore bahuriye hamwe . Kugira ngo bige ku kibazo kijyanye n'imihindagurikire y'ikirere hanafatwa ingamba zo kwirinda ibihumanya ikirere.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku iriba baje gushaka amazi yo gukoresha, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye bahurira ndetse kugira ngo barwanye umwanda ndetse babone amazi meza asukuye,

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye, ikorerwamo ibikorwa by'ikoranabuhanga, aho abaturage baza guhabwa serivisi nziza kandi zinoze.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko, aho baganira ku nsanganyamatsiko yabateranyirije hamwe.

Abagore bateze amaboko, bambaye imyenda y'umutuku, umukara, icyatsi bari mu cyumba kinini giteraniyemo urubyiruko ndetse n'abantu bakuru.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ahantu baganira ndetse bungurana ibitekerezo, ubona ko baturutse mu bice bitandukanye kugira ngo higwe ku nsanganyamatsiko yateganijwe uwo munsi.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa by'imyitozo ngororamubiri, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, baza bagakora siporo ndetse bakagabanya indwara zikomoka ku mubyibuho ukabije.

Umukecuru utetse, wicaye iruhande rw'inzu nini yiganjemo amabara y'umutuku, yubakishije amatafari ahiye kandi nziza.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko, aho bagurisha ibicuruzwa bitandukanye, ndetse hagatangwa serivisi nziza ku baje guhaha batabifite.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, aho baganira ku nsanganyamatsiko yabateranirije hamwe, bareba ku bibazo ndetse bakabishakira ibisubizo.

Umugore wishimye cyane wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu uhetse umwana ndetse wambaye agapfukamunwa, atetse ibiryo byiza kandi biryoheye amaso.

Umusore uhagaze imbere y'imodoka nini wambaye imyenda yacitse, ufite igikapu mu mugongo ndetse wisize amarange y'umukara.

Umukecuru w'imibiri yombi witeze igitambaro mu mutwe ufite imitako ku matwi ndetse yambaye urunigi mu gatuza, ubona ko yishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye hamwe kugira ngo bige ku bibazo bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu, umukara ndetse n'umweru.

Umusore uhagaze ku nyubako ndende, yiganjemo ibara ry'umweru n'umukara, uhagaze ubona ko afite ikibazo kandi akeneye umufasha.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, aho abaganga bafasha abarwayi ndetse bakabaha serivisi bagendeye ku bimenyetso bagaragaje.

Umukobwa uri mu nyubako nini, wambaye ikoti ry'umukara, ndetse n'ishati itukura, ufite imisatsi myinshi, w'imibiri yombi, ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, aho bafite insanganyamatsiko igira iti ''Kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye.'' Ku buryo biga ku nsanganyamtsiko kandi bakareba icyakorwa kugira ngo ishyirwe mu bikorwa.

Umubyeyi wambaye imyenda y'umukara, wikoreye igitebo kirimo ibijumba, amateke, imyumbati ,wishimye kandi unezerewe.

Abagore batatu bafite imyenda yiganjemo ibara ry'umutuku, umwe muri bo ahetse umwana ndetse arimo kumwonsa kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umukobwa wicaye mu ishyamba, wambaye igitenge cyiza ndetse n'umupira w'umweru, ufite imisatsi myinshi kandi y'umukara, ubona ko ababaye kandi yigunze.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi aho abarwayi batandukanye baza kwivuza ndetse bakagirwa n'inama y'icyo bakora kugira ngo birinde ndetse kwirinda biruta kwivuza.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice, impande n'impande, higanjemo urubyiruko, aho biga ku bibazo bitandukanye, kugira ngo bishakirwe ibisubizo.

Abakobwa babiri bicaye mu cyumba bari kuganira ku bikorwa bitandukanye, bambaye imyenda y'ubururu n'umukara, bafite imisatsi myinshi cyane.

Umwana wambaye ishati y'umweru, ufite imisatsi myinshi, wicaye ku ntebe yiganjemo ibara ry'umuhondo, uri mu cyumba kinini ndetse yishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, aho baza bakaganira ndetse hagatangwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi, kugira ngo ufite ikibazo wese ahabwe serivisi nziza kandi inoze.

Umusore wicaye mu cyumba kinini, wambaye umupira w'umuhondo ndetse wiganjemo ibara ry'ubururu n'umweru, wicaye ku buriri kandi yifashe mu gahanga.

Icyumba kinini kirimo abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagabo, abagore n'abana. Aho bahuriye hamwe ndetse biga ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Inyubako nini itangirwamo ubuvuzi butandukanye bwo mu mutwe ndetse n'ibindi bimenyetso byagaragaye, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye bahabwa ubufasha.

Umugore wicaye mu cyumba kinini, abona ko ababaye kandi ategereje ubufasha, yifashe mu nda ndetse wambaye n'ibitenge by'amabara arimo umuhondo ndetse n'umukara.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku bitaro, aho basuzumwa ndetse bagahabwa imiti kugira ngo bafashwe kandi bahabwe serivisi nziza inoze.

Abana bicaye mu cyumba, ubona ko bari guhabwa ubufasha butandukanye bw'amenyo ndetse bambaye imyenda iri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo.

Inyubako nini ikorerwamo ubuvuzi butandukanye, irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye bahabwa serivise nziza kandi inoze.

Umurwayi wagiye kwa muganga ndetse ubona ko ari kwitabwaho ku buvuzi bujyanye n'amenyo, yambaye imyenda y'umweru ndetse umuganga wambaye imyenda y'ubururu.

Umusore w'imibiri yombi, ufite amaso y'umweru ndetse n'amenyo meza, ufite akagozi gakoreshwa isuku, ubona ko yishimye.

Umwana wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'icyatsi, umweru, ufite uburoso mu kanwa, wicaye ku ntebe nziza y'ubururu kandi ubona ko yishimye.

Umusorere w'imibiri yombi, urimo kumwenyura, yambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umweru, uri mu cyumba kinini gikorerwamo ubuvuzi butandukanye.

Umusore wambaye indorerwamo z'amaso, umwenyura w'imibiri yombi wambaye umwenda w'umweru, ubona ko yishimye kandi anezerewe, ufite ubwanwa bwinshi.

Inyubako nini irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga. aho abaturage baza gukora imyitozo ngororamubiri bityo bigatuma birinda indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Umubyeyi n'umwana bafite uburoso bw'amenyo, bambaye imyenda isa umweru, bafite imisatsi myiza y'umukara kandi ikeye.

Icyumba kinini gitangirwamo ubuvuzi butandukanye, aho abantu baza bafite ibibazo bitandukanye, maze bagahabwa ubufasha kugira ngo basubireyo bishimye.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, gikorerwamo ubuvuzi butandukanye, intebe nziza zirimo, ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Umwana uri kwa muganga ufite ikibazo cy'amenyo ubona ko muganga ari kumwitaho kandi umwana wambaye imyenda myiza, yiganjemo ibara ry'umuhondo ndetse n'umutuku.

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye, birimo imyitozo ngororamubiri, cyiganjemo amabara y'umweru n'umukara, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Umwana w'umukobwa ufite imisatsi myinshi, uri kumwe n'umuganga w'amenyo, aho amusuzuma ndetse akareba ikibazo afite mu menyo.

Icyumba kinini gitangirwagwamo serivisi zo kwa muganga, aho abarwayi bafite indwara zitandukanye baza kwivuriza kandi bagahabwa ubufasha bagasubirayo bishimye ndetse banezerewe.

Icyumba kinini giteraniyemo abarwayi ndetse n'abaganga, aho bagenda bahabwa ubufasha hagendewe ku bimenyetso bagenda bagaragaza, uko bugenda bucya.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo abantu bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umutuku n'ubururu, harimo umukobwa ufite imisatsi myinshi kandi myiza.

Umugabo n'umugore bishimye ndetse bambaye imyenda itandukanye yiganjemo ibara ry'umuhondo, umweru, umukara kandi ubona bishimye.

Icyumba kinini gikorerwamo ubucuruzi, kirimo imbuto, inyanya, intoryi, ibitunguru ndetse n'ibindi byinshi, higanjemo ibinyobwa ndetse n'ibindi bitandukanye.

Icyumba kinini gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, aho abaturage bafite ikibazo cy'umubyibuho ukabije, bahurira ndetse bagakora imyitozo kugira ngo birinde n'izindi ndwara.

Umukecuru wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umweru, ubururu, w'imibiri yombi kandi ufite imisatsi myinshi, afite isahani mu ntoki kandi arimo gufata amafunguro.

Umuganga w'imibiri yombi ufite imisatsi myinshi, wambaye imyenda y'umukara n'umweru, ari kumwe n'umukecuru amukoresha imyitozo ngororamubiri, kugirango abashe gukira neza.

Umusaza wambaye indorerwamo z'amaso, ufite imisatsi myinshi, ubona ko ari kwitabwaho n'umuganga kugira afashwe, kubera ibimenyetso yagaragaje.

Umukecuru wambaye imyenda yiganjemo umuhondo n'umweru, utetse kandi iruhande rwe hateye ibiti byiza, kandi bigezweho, kuko bikurura umuyaga ndetse bikamurinda izuba.

Inyubako nini irimo ibikoresho by'imyitozo ngororamubiri, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye baza gukorera imyitozo, kugira ngo birinde indwara zitandukanye ndetse bagabanye umubyibuho ukabije.

Umuganga uri kumwe n'umukecuru, wambaye imyenda y'umutuku n'umuhondo, ubona ko ari kumuvura ndetse akamubaza indwara arwaye.

Umubyeyi wambaye indorerwamo z'amaso ndetse n'imyenda yiganjemo ibara ry'umuhondo, ufite imisatsi myiza kandi myinshi, mu cyumba kinini wicaye kandi wisanzuye.

Icyumba kinini kirimo umuganga uri kumwe n'umusaza, aho amubaza ibibazo bitandukanye, bijyanye n'ubuzima bwe, kugirango ahabwe serivisi nziza.

Umusaza wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara w'imibiri yombi, ufite imisatsi irimo imvi nyinshi, ari kumwe n'umuforomo wabigize umwuga.

Icyumba kinini kirimo umusaza wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umweru, ubururu, ufite imisatsi myinshi cyane, wicaye ku ntebe nziza kandi igezweho.

Icyumba kinini kirimo umusaza n'umukecuru, ubona ko bafite imvi ndetse n'imisatsi myinshi, bambaye imyenda yiganjemo ubururu, umweru, ubona ko bishimye.

Umugabo uri mu cyumba kinini uri kumwe n'umwana ufite umusatsi mwinshi, wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, ubona ko yishimye.

Umugore wambaye isaha nziza, ufite imisatsi myinshi, wicaye mu cyumba kinini kandi kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo hanozwe imikoreshereze myiza ndetse no gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga neza.

Umuforomo uri kumwe n'umusaza ubona ko ari mu myitozo ngororamubiri, wambaye umwenda w'umweru n'ipantaro y'umukara ndetse umuforomo yambaye umwenda w'ubururu.

Icyumba kinini kiri gutangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abarwayi bafite indwara zitandukanye, baza guhabwa ubufasha kugira ngo bakire neza.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye mu isoko, aho abantu baturutse ibice, impande n'impande bahurira, bakaza gusaba serivisi ndetse bakabona ibicuruzwa badafite.

Umubyeyi wishimye wambaye indorerwamo z'amaso, uri kumwe n'umukobwa mwiza w'imibiri yombi, ubona ko bari mu rugendo rwiza rwo gutembera.

Ni ababyeyi babiri harimo umugore n'umugabo bafite imiti imbere yabo kumeza, bambaye impeta ndetse bigaragara ko bishimye kandi banezerewe.

Icyumba cyiza giteraniyemo abantu babiri ari bo umugore n'umusaza ubona ko harimo ameza manini, ibikombe, impapuro ndetse n'ibindi bikoresho byo mu nzu.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, abagabo, abagore ndetse n'abakobwa, aho biga ku nsanganyamatsiko zitandukanye ndetse no gukemura ibibazo...

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi zitandukanye, aho abaturage baturutse mu bice, impande n'impande, bazana abana babo kubapimisha, kugira ngo bahabwe imiti.

Ihuriro ry'abayobozi batandukanye, bambaye imyenda y'umweru bari mu nyubako nini, bafite imisatsi myinshi kandi myiza.

Inyubako nini iteraniyemo abantu batandukanye, baturutse mu bice impande n'impande mu Gihugu, aho biga ku nsanganyamatsiko zitandukanye kandi zifitiye Igihugu akamaro.

Umubyeyi uhagaze iruhande rw'inyubako nini, wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umukara, umuhondo n'ubururu, wambaye agapfukamunwa.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye, baza kwivuriza ndetse bagahabwa ubufasha.

Ababyeyi bicaye mu isoko ubona ko bateraniye hamwe, mu biganiro bitandukanye, barebera hamwe icyateza umusaruro wa bo imbere kandi bikabyara inyungu.

Icyumba kinini cyahuriyemo urubyiruko rwiganjemo abakobwa ndetse n'ababyeyi bafite amakayi, ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse bicaye imbere y'ameza.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abantu batandukanye baza gufata imiti kugira ngo bashyire indwara zababanyeho karande.

Ihuriro ry'abana batsinze amarushanwa, bafite ibirango bigaragaza icyerekezo makumyabiri, mirongo itatu, bahagaze imbere y'abaturage bishimye.

Umukobwa bwiza cyane wicaye mu ntebe yegamirwa, wambaye imyenda y'imikara ndetse n'ikoti ryiza cyane, ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Ihuriro ry'abantu benshi bicaye bateraniye hamwe, baganira ndetse biga ku nsanganyamatsiko zitandukanye, zibafitiye akamaro kugira ngo habeho iterambere rirambye.

Urupapuro runini rwanditsemo amagambo menshi, ruriho uruziga runini ndetse harimo abana, abagore ndetse n'abagabo.

Umuyobozi uhagaze imbere y'indangururamajwi, atanga imbwirwaruhame, wambaye indorerwamo z'amaso ndetse mu myenda myiza y'ubururu ndetse n'isaha nziza.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bikorwa bitandukanye, aho bafite insanganyamatsiko igira iti: ''Rubyiruko ni mwe hazaza heza h'uru Rwanda, iririnde virusi itera SIDA, ipimishe uyu munsi''.

Umuntu wambaye umwenda w'ubururu ndetse n'umutuku, uhagaze inyuma y'inyubako nini iri mu mujyi wa Kigali, ubona wifashe mu gatuza ndetse yishimye.

Ibitaro binini bya Ruhengeri, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu baza guhabwa serivise z'ubuvuzi, hagendewe ku bimenyetso bagaragaje.

cyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi; kubaga amenyo, kubaga ibindi bice by'umubiri nk'umutima ndetse n'ibindi bibazo bijyanye n'ubuzima.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ,aho abarwayi bafite indwara zitandukanye, baza bagahabwa imiti ndetse bakarinda n'icyatera ubwo burwayi.

Umuganga wambaye impuzankano yiganjemo ibara ry'umweru, uri kwita ku barwayi, uri mu cyumba kinini ndetse ubona ko ari gutanga serivisi nziza.

Inyubako nini yiganjemo ibyumba bitandukanye, ikorerwamo ubucuruzi, iruhande rwayo hahagaze umusore, wambaye imyenda y'umweru ndetse n'umukara.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z 'ubuvuzi aho abantu baturutse ibice bitandukanye by'igihugu baza bagahabwa serivisi nziza kandi zinoze.

Inyubako nini isakaje amabati atukura yiganjemo ibara ry'umuhondo, umukara, iruhande rwayo hateye indabyo nziza ndetse n'ibyatsi bitoshye.

Inyubako nini ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo ibikoresho bitandukanye byiganjemo, ibisa ibara ry'umweru n'umukara.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu gace kamwe baje kuganira ku bibazo bitandukanye, ndetse hagafatwa ingamba kugira ngo hakumirwe ibyorezo ndetse n'izindi ndwara.

Inyubako nini irimo imiti y'amoko atandukanye, aho abaturage baturutse mu bice, impande n'impande baza gushaka imiti ndetse bagahabwa serivisi nziza.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, cyiganjemo amabara y'umuhondo, umukara ndetse n'umweru, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye bahurira, bakiga ku bibazo bitandukanye.

Inyubako nini yiganjemo ibikoresho byo mu nzu ari byo intebe, ameza, ubona ko harimo na televiziyo nini cyane n'umukozi ukoramo.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi zitandukanye iz'ubuvuzi, ubujyanama ndetse hakorerwamo inama zitandukanye ziga ku bibazo biri muri sosiyete.

Inyubako nini ikorerwamo ubuvuzi butandukanye, yiganjemo ibara ry'umukara, umweru ndetse n'umuhondo, iruhande rwayo hateye indabo nziza kandi ubona ko zisamaje.

Umugabo w'imibiri yombi, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'umuhondo, uri mu cyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye, bahabwa ubufasha, bagendeye ku bimenyetso bagaragaje.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, ubuvuzi ndetse hatangirwa serivisi zitandukanye arizo: kubaga amenyo, kubaga ibindi bice by'umubiri ndetse bigatuma abakeneye serivisi bayibona hafi.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru n'ubururu, isakaje amabati, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi ndetse no kwita ku barwayi.

Inyubako nini yubakishijwe ibirahure byiza, yiganjemo ibara ry'umukara, umweru, iruhande rwayo hateye ibiti byiza kandi bitanga amahumbezi.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru urimo gufasha umurwayi uryamye ku gitanda, mu cyumba cyiza cyiganjemo amabara y'umuhondo ndetse n'umweru.

Inyubako nini ikorerwamo ubuvuzi butandukanye: ubw'amenyo, ubw'umutwe, umutima ndetse n'ibihaha, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye baza guhererwa serivisi.

Ihuriro ry'ababyeyi baje ku ivuriro, ubona ko bari mu nyubako nini kandi igezweho yiganjemo ibara ry'umweru n'ubururu n'ibirahuri byiza bigezweho.

Inyubako nini ikorerwamo ubuvuzi irimo ibikoresho byinshi kandi byiza yiganjemo amabara ,umweru ,umuhondo ndetse n'umukara.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umuhondo, umweru n'ubururu, irimo intebe nziza kandi zigezweho, itangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi ndetse n'iz'ubucuruzi.

Inyubako nini y'ikigo cy'amashuri, ifite amabara y'ubururu umweru ndetse n'umuhondo, iteyemo ibiti byiza by'amoko yose kandi ubona ari byiza.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, cyiganjemo amabara y'umweru, umutuku ndetse n'umukara, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye baza bagahabwa serivisi nziza kandi inoze.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'icyatsi, umuhondo, ifite ibyumba bitandukanye bikorerwamo inama ndetse bitangirwamo serivisi nziza.

Icyumba kinini cyiganjemo ibara ry'umweru n'ubururu, kirimo abaganga b'amoko yose bavura indwara zitandukanye iz'umwijima, iz'ibihaha ndetse n'ababyaza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, yiganjemo ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, iruhande rwayo hateye indabo nziza ndetse n'ibiti binini, ubona ko bitoshye kandi ari byiza.

Inyubako nini yiganjemo ibara ry'umuhondo, ifite ibirahure byiza, iteye amatsiko, ubona ko hari indabo ziyikikije kandi iteye amabengeza.

Inyubako nini irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, yiganjemo intebe z'umukara, televiziyo, ameza ndetse n'ibindi bitandukanye.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, televiziyo, radiyo, telefone ndetse n'ameza manini kandi agezweho yiganjemo ibara ry'umweru n'umukara.

Icyumba kinini gikorerwamo ubuvuzi butandukanye, aho abantu baturutse mu bice impande n'impande baza bagahabwa serivisi hagendewe ku bimenyetso bagaragaje.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kiganjemo ibikoresho bifashisha batanga serivisi kugira ngo umurwayi afashwe kandi akire vuba.

Icyumba kinini cyiganjemo amabara y'umuhondo, ubururu, umukara ndetse kirimo intebe nziza kandi zigezweho, aho abantu baherebwa serivisi zihuse.

Inyubako nini irimo abaganga bambaye imyenda y'umweru, ubururu ndetse n'inkweto z'umukara, yiganjemo umuhondo ndetse n'umweru.

Inyubako nini ikorerwamo ubuvuzi, ikigo nderabuzima cya Rwerere giherereye mu Karere ka Kicukiro, gikikijwe n'indabo nziza n'ibiti binini.

Inyubako nini ifite ibyumba byinshi yiganjemo ibara ry'umuhondo n'umweru, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye ndetse bifitiye igihugu akamaro.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse impande n'impande, aho baza gushaka serivisi nziza kandi inoze, kugira ngo bakemure ibibazo bitandukanye.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe z'imisego, bari mu cyumba kinini kandi kisanzuye, baganira ndetse bungurana ibitekerezo, ku ngingo bahuriyeho.

Inyubako nini ikorerwamo ubuvuzi butandukanye iganjemo ibara ry'umuhondo ndetse isakaje amabati y'ubururu ifite isuku kandi ikeye.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, yiganjemo ibara ry'umuhondo, umukara, ubona ko hakorerwamo ibikorwa byinshi by'ubucuruzi ndetse n'ubuvuzi butandukanye, ari bwo ubw'amenyo ndetse n'umutima.

Abaganga batatu bambaye imyenda isa, higanjemo ibara ry'umweru n'ubururu, bahagaze iruhande rw'ibiti binini ndetse n'imikindo na pasiparuma nziza n'indabyo nziza.

Umuforomo uri kumwe n'umubyeyi bita ku ruhinja ndetse banatanga ubufasha butandukanye kugira ngo umwana agire ubuzima bwiza.

Inyubako nini isakaje amabati atukura, yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye kandi bifitiye Igihugu akamaro.

Icyumba kinini gikorerwamo ubuvuzi kirimo umubyeyi uryamye ku gitanda cy'abarwayi, agaragara nk'urembye kandi ufite ikibazo cyihutirwa, uri mu nzu yiganjemo amabara y'umweru n'umukara.

Muganga uri kumwe n'uruhinja, wambaye imyenda y'amabara arimo umweru ndetse bigaragara ko yishimye kandi ananezerewe.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, kiganjemo ibara ry'umweru ndetse n'umukara, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye bahurira ndetse bagakora imyitozo ngororamubiri.

Inyubako nziza zisakaje amabati, y'umutuku ziganjemo amabara y'umuhondo ndetse zifite ibirahuri byiza, impande yazo hari ibinyabiziga ari byo moto ndetse n'imodoka.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, aho abantu baturutse mu bice impande n'impande bahurira, kugira ngo bahabwe serivisi nziza kandi inoze.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, byiganjemo ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, kugira ngo abarwayi bahabwe serivisi nziza.

Inyubako nini itangirwamo serivisi zitandukanye, yiganjemo amabara y'umukara, umuhondo, umweru, ifite ibyumba byinshi kandi bigezweho.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu baza kwisuzumisha ndetse bagahabwa imiti, kugira ngo babashe gukira indwara.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, yiganjemo ibara ry'umuhondo, umukara n'umweru, aho abantu baturutse mu bice bitandukany,e bahabwa serivisi nziza kandi inoze.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi, iruhande rwayo hari ibiti ndetse n'ibyatsi byiza kandi bitoshye.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, cyiganjemo amabara y'umweru, umukara ndetse n'ubururu.

Ni umugabo munini, uryamye mu bitaro, ubona ko arembye kandi akeneye ubufasha bwihuse, mu cyumba kinini gitangirwamo serivisi ndetse kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi zitandukanye iz'ubuvuzi bw'amenyo, iz'umutima ndetse n'izindi zitandukanye, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye baza kwivuriza.

Icyumba kinini gitangirwamo ubuvuzi, aho abarwayi bafite indwara zitandukanye baza guhabwa serivisi ndetse hagasuzumwa icyateye izo ndwara ndetse n'uburyo bazirinda.

Icyumba kinini gikorerwamo ubuvuzi butandukanye, kirimo ameza, ibitanda by'abarwayi, imiti ndetse n'intebe, cyiganjemo ibara ry'umutuku, umweru, ndetse n'ubururu.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, ubuvuzi, ubucuruzi ndetse hatangwa imiti ku barwayi kugira ngo birinde ndetse banakumire indwara zitandukanye.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse kirimo igitanda cyiza, cyiganjemo amabara y'umuhondo, ubururu ndetse gifite n'ibirahure byiza.

Mu cyumba kinini gitangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, aho abarwayi baturutse mu bice by'igihugu, baza guhabwa ubufasha bwihuse.

Ikigo kinini cy'amashuri cyiganjemo amabara y'icyatsi, gifite indabyo nziza ndetse n'ibyatsi bishashagirana kandi bikoranye isuku. Kirimo kaburimbo yiganjemo ibara ry'umukara n'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice impande n'impande, bahagaze mu muhanda wa kaburimbo, wiganjemo amabara y'umweru n'umukara, iruhande rwabo hateye indabo nziza ndetse n'urutoki.

Inyubako nini isakaje amabati atukura, yubatse hagati yishyamba rinini kandi ririmo ibiti byiza kandi bifitiye umumaro rubanda nyamwinshi.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu bakorera imyitozo ngororamubiri, kugira ngo birinde indwara zitandukanye ndetse bagabanye umubyibuho ukabije.

Inyubako nini ikikijwe n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibiti, indabyo ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, yubakishije ibirahuri.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, aho abarwayi baturutse mu bice impande n'impande, baza guhabwa serivisi nziza hagendewe ku bimenyetso bagaragaje.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abarwayi batandukanye baza bagahabwa ubufasha ndetse n'inama zabafasha kwirinda.

Imodoka nini yifashishwa mu buvuzi aho ifasha abarwayi barembye cyane ndetse ikabihutisha ibajyana ku bitaro by'isumbuye kugira ngo bafashwe.

Icyumba kinini gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, aho abantu baturutse mu bice, impande n'impande, baza gukora imyitozo kugira ngo birinde indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Icyumba kinini kirimo ibiribwa by'amoko yose amagi, inyama, imineke, imbuto nyinshi ubona ko zisa neza kandi zitunganijwe bya kinyamwuga.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri, aryamye hasi, yambaye imyenda y'umukara n'umweru, wambaye inkweto y'imibiri yombi.

Urutonde ruriho ibikoresho bitandukanye urugero umukasi, inshinge, ibinini ndetse n'indi miti itandukanye ifasha abarwayi kwa muganga kugira ngo bakire.

Icupa rinini ryiganje mu ibara ry'ubururu n'umweru, ririmo amazi meza akoranye n'isuku yo kunywa kugira ngo uyanyoye agire ubuzima bwiza.

Icyumba kinini kirimo abantu batandukanye abaganga, abaforomo ndetse n'ababyaza, aho abarwayi barwaye indwara zitandukanye baza kwivuriza.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara, ufite icupa ry'amazi avuye mu myitozo ngororamubiri, ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Umusore wambaye umupira w'umukara n'ipantaro nziza kandi igezweho, ufite icyuma mu ntoki ndetse ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Imiti myinshi yiganjemo ibinini, iy'amazi ndetse n'iyo gutera mu rushinge, aho abarwayi baturutse mu bice impande n'impande bafashwa ndetse hagendewe ku bimenyetso bagaragaje.

Abakinnyi bari mu kibuga, bambaye imyenda y'umuhondo n’icyatsi n'ubururu, bari kumwe n'abaganga bari kwita k’umurwayi, wavunitse amaguru kandi wambaye godiyo.

Umugore wambaye agapfukamunwa, ufite ibikoresho yifashisha avura abakomeretse ndetse imbere ye hari umusore wambaye umupira w'umweru ndetse n'umukara.

Umusore wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umweru uri kugenda mu muhanda ndetse ubona ko ari mu myitozo ngororamubiri kugira ngo agabanye umubyibuho ukabije.

Inkweto nini y'umukara, iriho icyapa cy'umweru, iteretse mu muhanda wa kaburimbo, ubona ko ari nziza kandi iteye amabengeza.

Umuganga wambaye umwenda w'ubururu, uri kwita ku murwayi ufite imyenda y'umukara ndetse n'umweru, wavunitse akaguru barimo ku mukanda.

Umusore munini wambaye umupira wiganjemo umweru n'umukara, w'imibiri yombi, ufite icupa ry'amazi ari kunywa, uvuye mu myitozo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye agapira gatukura, wambaye imyenda myiza uri kunywa amazi ufite imisatsi myiza y'umukara, w'imibiri yombi bigaragara ko yishimye.

Imbuto ziganjemo amatunda, ibinyomoro, aho abarwayi baturutse impande n'impande, bagirwa inama yo gufata imbuto za buri munsi kugira ngo bakumire indwara ziva ku mirire mibi.

Abaganga bari gufasha abarwayi bambaye imyenda y'ubururu ndetse bafatanya, kugira ngo babashe kubona indwara abarwayi bafite.

Abakinnyi bateruye umusore wambaye umupira w'umuhondo, bafite imyambaro y'umutuku, urabona ko yavunitse bikomeye kandi akeneye kwitabwaho bikomeye.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z ubuvuzi, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye bahurira, bagafashwa hagendewe ku bimenyetso bagaragaje.

Inyubako nini irimo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo ibara ry'umuhondo, ubururu, ikorerwamo ibikorwa byinshi kandi bitanga amafaranga bityo bigatuma habamo ubwisanzure.

Umugabo ufite impeta ku rutoki ndetse wambaye n'agakoma ku kaboko, wifashe mu ivi yambaye imyenda y'umukara ndetse n'umweru.

Inyubako nini ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, aho abantu baturutse mu bice impande n'impande bahurira, kugira ngo birinde indwara zituruka ku mubyibuho ukabije ndetse na diyabete.

Igikapu kinini gifite imashini nziza zigezweho, cyiganjemo ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, hamwe n'icyatsi, ubona kirimo ibikoresho bitandukanye.

Icyumba kinini gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga kandi bigezweho, aho abantu batandukanye baza gukorera imyitozo.

Icyumba kinini gitangirwamo ubuvuzi butandukanye, aho abarwayi bafite indwara z'amoko atandukanye baza guhabwa serivisi nziza kandi zinoze.

Icyumba kinini gihuriyemo abana, abagore ndetse n'abagabo baje kwivuza indwara y'amenyo kandi bagahabwa ubufasha bw'ibanze.

Imbuto z'amoko yose yiganjemo amatunda, pavuro, inyanya, ibinyomoro ndetse n'ibindi bitandukanye, ubona ko biryoheye amaso kandi bifite intungamubiri.

Umugabo wicaye muri kaburimbo y'umukara n'umweru, ufite icupa ririmo amazi yo kunywa, wambaye imyenda y'umukara, uvuye mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo w'ubwanwa bwinshi wambaye umupira w'umweru, urimo kunywa amazi ndetse urimo gukora imyitozo ngororamubiri, ubona ko yishimye.

Icyumba kinini kirimo gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, umukobwa munini kandi ufite imisatsi y'umukara wambaye ipantaro nziza ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Umuganga uvura umwana akaguru ndetse wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu, umukara ndetse n'umweru, aratanga serivise nziza kandi inoze.

Inyubako nini ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye bahurira bagakora imyitozo kugira ngo birinde umubyibuho ukabije.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi zo kuvura abantu batandukanye, aho abantu baza bafite ibibazo bitandukanye bagahabwa serivisi nziza.

Umurima uhinzemo ibiti byiza kandi bishashagirana, biri mu ibara ry'icyatsi kandi byiza ubona biteye amatsiko.

Indobo nini yanditseho amagambo yiganjemo ibara ry'ubururu, umuhondo, umweru, ikorerwamo ibicuruzwa bitandukanye kandi byiza.

Isoko rinini ryahuriyemo abantu baturutse impande n'impande, aho baza kugura ibicuruzwa bitandukanye, harimo intoryi, inyanya, ibitunguru ndetse n'ibindi bitandukanye, aho baza kugura ibicuruzwa badafite.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu murima ubona ko hakorerwamo ibikorwa bitandukanye nk'ubuhinzi ndetse ubona ko bari gusarura ibihingwa byeze.

Imiti itandukanye iri mu ibara ry'icyatsi, umuhondo, isahani irimo ikiyiko ubona ko biri gukoreshwa bavura indwara zitandukanye.

Umugore wambaye ibitenge byiganjemo amabara y'umuhondo n'umutuku, afashe indabo ndetse azisoroma, azikuraho imitwe kugira ngo zimere neza kandi zizabashe gukura.

Imiti yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, iteretse hejuru y'ameza, ivura indwara z'amoko yose, harimo malariya ndetse n'igabanya ubukana bwa SIDA.

Icyumba kinini kirimo imiti itandukanye, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye baza gufata imiti bakayiha amatungo kugira ngo bayarinde indwara zitandukanye ndetse bayarinde no kugwingira.

Ibicuruzwa bitandukanye by'amoko yose harimo inanasi ,imineke ,amata ndetse n'ibindi byinshi byiganjemo ibara ry'umuhondo ubururu ndetse n'icyatsi.

Icyumba kinini kirimo imiti itandukanye, aho abarwayi bafite ibibazo bitandukanye baza gufata imiti kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Icupa rinini ryanditseho amagambo y'umukara riri mu ibara ry'umweru ndetse ubona riteretse ahantu hari mu ibara ry'umukara.

Imiti y'amoko atandukanye, yiganjemo iy'umuhondo, umweru ndetse hari n'ibinini by'amoko yose bifasha abarwayi.

Umurima munini urimo indabo z'amoko yose, ziri mu ibara ry'icyatsi kandi zifite ishusho igaragara mu ibara ryiza cyane.

Imiti itandukanye, ubona ko ivura indwara z'amoko yose, ipfundikije imifuniko myiza y'umutuku, umweru mu ducupa tw'amoko yose.